Abanyeshuri banejejwe n'ifunguro bafatira ku ishuri, kuko hari abana benshi bavaga iwabo batariye, bakajya ku ishuri ndetse banava ku ishuri bakarara batariye, bityo bigatuma abana batagira ubwenge ariko ubungubu abana bari kwiga bagafata neza.

ababyeyi, abagore n'abagabo, banejejwe no kugaburira abana babo indyo yuzuye, kuko indyo yuzuye ni nziza cyane ituma abana bakura mu bwenge no mu gihagararo, bigatuma bagira ubuzima bwiza.

Ikigo gishinzwe ubuzima rbc kiei gushishikariza urubyiruko kwirinda virusi itera sida ndetse no kuyipimisha, kuko urubyiruko arizo mbaraga z'igihugu kandi zubaka vuba kandi uwo bayisanganye akurikiza inama ahabwa na muganga.

Ubu nta mubyeyi ukibyarira mu rugo, umubyeyi wese yamenye agaciro ko kubyarira kwa muganga kubera ko bibarinda kuba babura ubuzima ubwabo n'ubw'abana babo baba batwite, ubu nta mubyeyi ukibyarira mu rugo, kuko bahawe inzu nziza baruhukiramo nyuma yo kubyara.

Ibiti ni bimwe mu bidukikije bidufitiye umumaro kuko biduha umwuka mwiza duhumeka, bikaduha imbuto zo kurya, bikaduha ibiryo by'amatungo ndetse bikanarinda isuri turabikeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ibimera ni byiza bituma abantu tubona imiti gakondo twakwifashisha twivura indwara nyinshi zitandukanye harimo inzoka, inkorora, umutwe, imitsi, rubagimpande ndetse n'ibicurane.